Akabari kateraniyemo abantu batandukanye, bigaragara ko bishimye. Ndetse bari kubyina imiziki kandi hariho n'abari kubacurangira. Harimo amatara meza y'ibirori agaragaza ahantu heza mu gihe cya nijoro, kandi abakiriya bishimye rwose.

Akabari ni kimwe mu bishimisha umubare w'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku Isi, aho usanga abantu baserutse cyane cyane mu mawikendi basohokanye n'abakunzi babo cyangwa se imiryango yabo , bagafata bimwe mu binyobwa harimo :nka pirimusi, mitsingi, ndetse n'izindi zitandukanye.

Ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye biri mu amacupa ari mu mabara atandukanye harimo: mitsingi, primusi, e turubo kingi, nguvu biteretse ahantu muri etageri bigaragare ko ari mu kabari cyangwa se muri kantine.

Umukobwa wambaye neza ishati y'umweru ndetse n'agapira k'umukara, ari kwitegereza amwe mu macupa acuruza muri aka kabari, ndetse akaba ariwe ushinzwe gutanga serivisi z'abaje bamugana kugira basangire ubuzima.

Akabari kagaragara mu nzu y'ubururu, ikingishijwe inzugi z'umweru, hariho ibyapa by'amayoga atandukanye, ndetse n'imbere y'aho hariho, imitaka yicayemo abantu bari kuyakira.

Abantu babukereye, bambaye neza, bishimye, ndetse bari kumwenyura, uko bitabiriye ibirori cyangwa se ubusabane mu kabari kaba kabegereye, kaba karimo amatara meza akurura abakiriya, ndetse agatera ibyishimo ku muntu wahiyakiriye.

Ibikoresho byo mu rugo byifashishwa cyane cyane ku meza, ndetse mu gikoni harimo ibikombe, amasarori, amarushe n'ibindi bitandukanye.

Icyapa kinini kigaragaza amafunguro, igitanda ndetse n'ibinyobwa, bishatse kumvikanisha ko uje abagana bamucumbikira, ndetse bakamugaburira bakamuha serivisi zinogeye akaba yakwiyumvamo ikaze nk'uri mu rugo.

Inzu y'ubucuruzi igizwe n'ibikoresho bitandukanye, ndetse n'ibyapa bikurura abakiriya kugira ngo babe babona serivisi zibanogeye, kandi babizi neza ko zihari. Hariho urujya n'uruza rw'abantu baje kugura, ndetse hariho n'abacuruzi biteguye kubakira.

Inyubako cyangwa se inzu, hejuru hariho icyapa gikurura abakiriya, kigaragaza serivise zitangwa muri iyo nzu, harimo kwambika abageni, abagabo ndetse n'abagore, usibye n'abagore harimo n'abakobwa baba bambariye umugeni, ndetse n'abasore baba bambariye umusore.

Iduka cyangwa se isoko ricuruza ibikoresho by' ikoranabuhanga birimo, amatelefone, amasharijeri ndetse iduka ritanga serivisi zitandukanye, nk' amabanki cyangwa se ibindi bigo bito n'ibiciriritse by' ubucuruzi.

Inzu y'ubucuruzi yometseho amakaro yatumye iba nziza mu gukurura abakiriya, ndetse hejuru y'aho hariho icyapa kigaragaza serivisi ndetse n'ibicuruzwa wasanga muri iyo nzu, birimo amata, imigati, icyayi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Isoko cyangwa se iguriro ricuruza ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'iby'ikoranabuhanga, aho harimo: nk'imikoropesho, imikubuzo, amatiyo, ibikoresho by'amashanyarazi. Ibikoresho byo mu bwubatsi harimo: udutanda, udutimba two kuyungurura umucanga, ndetse n'ibyo kwifashisha mu ruzitiro, amatoyirete, n'ibindi n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu, ndetse n'ibinyabiziga birimo n'imodoka na moto, biparitse imbere ya butike cyangwa se inzu y'ubucuruzi itanga serivisi zitandukanye, harimo nko gutunganya imisatsi, ndetse n'inzara z'abari n'abategarugori.

Umwuga wo gusana ibyangiritse ku magare ndetse no gucuruza ibikoresho bitandukanye byo kuyongerera ubwiza ndetse n'ubushobozi. Aho usanga harimo nk'imigozi yo kuyazirika imizigo mu gihe igiye kuzitwara ndetse usanga afite n'abakiriya benshi bababaza umunsi ku wundi baje kumuhahira.

Inzu icururizwamo cyangwa se igatanga serivise zitandukanye, harimo nk'ibinyobwa byiganjemo amazi, imitobe ndetse n'inzoga z'ubwoko bwose ,aho usanga ziba zipanze mu byiciro bitewe n'uko zaba ziri gutwara umwanya munini, zikagenda zipanze hejuru y'izindi.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibikoresho bitandukanye ndetse ifite imiryango igera kuri itatu, imbere yaho hari bimwe mu bicuruzwa bacuruza bijanye n'ubwubatsi harimo: amarangi mu ndubo, andi ari mu bidomoro, ndetse hejuru hariho icyapa kigaragaza zimwe muri serivisi batangaga muri iyo nzu.

Ahacururizwa ibikoresho bitandukanye byo mu rugo byiganjemo iby'amapalasitiki ndetse n'ibikozwe mu biti, harimo indobo, amabase, imikoropesho yo gusukura mu nzu. Harimo rero amabase asa ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Amacumbi cyangwa se amalogi, ni imwe mu mvugo ikoreshwa mu gihe umuntu akeneye gucumbika by'igihe gito, cyangwa se bitewe n'uko yifite. Aho umuntu agenda akishyura amafaranga nk'ijoro rimwe cyangwa se amasaha, kugira ngo aruhuke abone gukomeza urugendo cyangwa se ubundi buzima bwa buri munsi.

Abakobwa babiri bicaye imbere y'inzu y'ubucuruzi, ibarizwamo serivisi zitandukanye harimo nk'ibiribwa n'ibinyobwa birimo amata, amagi, imbuto ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye.

Inzu irimo ubucuruzi bucuruza imiti y'ubwoko butandukanye y'amatungo, ndetse bigiye bishushanyijeho nk'inka ndetse n'intama, kugira ngo habungwabungwe ubuziranenge ndetse n'ubuzima bw'ayo matungo.

Inzu z'ubucuruzi ziri mu rusisiro impande y'umuhanda. Imbere yaho haparitse moto, ndetse zitanga serivisi zitandukanye hariho nk'itumanaho ndetse no gucuruza ibicuruzwa byo kurya bikomoka ku buhinzi biri mu mifuka y'umweru

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu rusisiro, bamwe bari kugenda ku magare, abandi na moto, abandi n'amamodoka. Iruhande rwabo hariho ubucuruzi butandukanye: nk'ubw'itumanaho, serivisi za banki, ndetse n'amadepo y'amayoga ari gupakirwa mu modoka.

Ahatangirwa serivisi zitandukanye, hibandwa cyane cyane ku bikoresho by'ikoranabuhanga birimo amatelefone , amaradiyo izatekwamande n'ibindi, aho usanga babisana mu gihe byangiritse ndetse bagatanga umuriro wa telefone binyuze mu migozi yazo.

Inzu y'ubucuruzi cyangwa se itangirwamo serivisi zo kwambika abantu, barimo nko kudoda ndetse no gusana imyenda, aho usanga hariho ibitambaro bitandukanye buri wese n'ibyo yashimye ndetse no hejuru, hariho icyapa cyanditseho ngo ambara uberwe.

Igikoresho kiba gikozwe mu byuma, aho kiba cyarasudiwe n'ababigize umwuga, aho kiba gifite ibyuma ndetse n'amapine abiri ukagishyiramo ibikoresho ushaka gutwara, harimo nk'imifuka, ibikombe, amajage, ibikarito ndetse n'ibindi bitandukanye.

Uruhererekane rw'inyubako zagenewe mu bucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye, zikaba zubatse impande y'umuhanda, aho kugirango umura azigereho yambuka akagezi gato, kubabatswe kugira ngo kajye gafata amazi gaturutse mu muhanda, ndetse kakarinda impanuka zo gusenyera ayo mazu.

Igikuta kiriho ibyapa bigaragara mu mabara y'umweru handikishijweho amagambo y'umukara, hariho n'amashusho aranga ibigaragara muri iyo resitora kugirango ngo bakurure abakiriya bazaze babagana. Iruhande rwaho hari ubusitani bugizwe n'ibiti by'imigano bitanga akayaga keza.

Icyapa kinini kigaragaza ibiribwa n'ibinyobwa wasanga mu nzu y'ubucuruzi, aho buri wese aba agiye kwiyakirira ndetse n'abo yazanye nabo nk'imiryango cyangwa se inshuti.

Iguriro cyangwa se ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye, hahagaze umugore imbere. Hacuruzwa ibikapu, amasorori, amasafuriya, amasahani, n’utundi dukoresho dutandukanye tw’igitsina gore.

Umugabo utwaye igare ari kugenda mu muhanda, iruhande rwe hari inzu z'ubucuruzi cyangwa se amabutiki, atanga serivisi zitandukanye, zirimo nk'itumanaho ndetse n'ubundi bucuruzi bw'ibyo kurya, cyangwa se ibikoresho byo mu rugo.

Ibyapa byamamaza ibicuruzwa bitandukanye iyo byometswe ku nzu hejuru buri mukiriya wese abibona ibyo byapa bikaba biriho ibicuruzwa bitandukanye harimo nk'amagaze, amashyiga ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye.

Icyapa cyangwa se ikirango kigaragaza ahantu biyakirira abantu batandukanye, baba basohokanye n'imiryango yabo ndetse n'inshuti zabo, kiri mu ibara ry'icyatsi gishushanyijeho icupa ry'inzoga ikunzwe n'abatari bake, kugira ngo ababagana babe bayihasanga muri iyo hoteli.

Ahacururizwa telefone ndetse n' ibindi bikoresho by' ikoranabuhanga, harimo nka za mudasobwa, imigozi yo gushagigaho ndetse n' ibindi bitandukanye, aho akenshi na kenshi usanga biba byarakoreshejwe bikagurishwa bwa kabiri.

Inyubako y'ubucuruzi, icuruza ibiribwa bitandukanye birimo ibinyampeke. Amafu y'ubwoko bwose, aho usanga babiteretse hanze ku muryango, kugira bikurure abakiriya. Ndetse biri mu dufuka dutandukanye turimo umweru, umuhondo n'ibindi bitandukanye.

Amarembo cyangwa se aho binjirira bagiye kugana imwe mu nyubako zitanga amacumbi, ndetse n'izindi serivisi nk'akabari, ibyo kurya, ndetse n'ibindi bitandukanye abashitsi baje bazigana baba bakeneye. Iyo nyubako haparitsemo n'imodoka ziba zazanywe n'abantu baje kuhatemberera.

Abagabo babiri bicaye hanze imbere y'inzu y'ubucuruzi, umwe yicaye ku ntebe y'ubururu, undi yicaye ku ntebe y'urubaho, ndetse harimo n'undi uri imbere mu nzu, bigaragara ko hari serivisi batanga zo gukora ibikoresho, ndetse no kubisana, cyane cyane hibandwa ku bikoresho by'ikoranabuhanga n'ibya muzika.

Igipangu cyangwa se uruzitiro rutatseho ibyapa biranga ubucuruzi burangwamo imbere muri iyo nzu aho bigaragara ko ari ubwoko bw'inzoga, bigamije gukurura abakiriya, ngo babagane babateze imbere.

Amarembo cyangwa se umuryango, ugizwe n'urugi rwa metarike cyangwa se rukozwe mu byuma. Hejuru hariho icyapa kigaragaza hoteri cyangwa se ahacumbikira abantu, abakiriya ndetse bakaniyakiriramo bitewe n'ibyo bifuza.

Imiryango ibiri y'ubucuruzi imbere yaho, hariho abamotari baparitse bategereje ko abaguzi bava muri izo nzu z'ubucuruzi, bahita babatwara bavuye guhaha, ndetse hariho igipapuro kigaragaza ibiri mu imbere mu izo nzu, aho buri wese yabanza yarebaho mbere yuko yinjiramo, ndetse kikaba gikurura abakiriya.

Umugabo uhagaze mu muryango wa butike cyangwa se inzu, icururizwamo ibikoresho bitandukanye birimo: ibyo mu rugo, ibyo mu nzu, ibinyobwa cyangwa se n'ibindi bikoresho by'isuku.

Inzu y'ubucuruzi ifite umuryango ufunguye ndetse hariho n'indangurura majwi, iri gutanga iyamamaza ku bakiriya babagana ndetse mu byo bacuruza, harimo nka gaze ziteretse imbere kandi hariho n'icyapa, kigaragaza izina ry'iryo duka cyitwa amahoro shopu.

Inzu y'ubucuruzi igeretse gatatu , aho ikorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo nk'itumanaho , imikino y'amahirwe , ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibindi bitandukanye . Iyo nzu kandi iri impande y'umuhanda , unyuramo ibinyabiziga , ndetse n'abagenzi bagenda n'amaguru.

Inzu ndende cyangwa se inyubako itanga serivise zitandukanye, harimo nka resitora cyangwa se utubari. Usanga hariho na nimero hejuru zibarizwaho uwaba akeneye serivise cyangwa se ibyo bicuruzwa...

Icyapa cyandikishije amagambo y'icyatsi kiri mu ibara ry'umweru, kigaragaza amerekezo cyangwa se ibirometero umuntu yagenda kugira agere kuri hoteri, cyangwa se inzu ibamo serivisi z'amahoteli n'ubukerarugendo yitwa karasike resoti roji.

Umucuruzi w'itumanaho wambaye ijire y'umuhondo, ndetse ari mu mutaka w'umuhondo, w'umwe mu mirongo icuruza itumanaho hano mu Rwanda wi emutiyenj, aho abikura amafaranga ndetse akayabika ndetse akayohereza, mu nce zitandukanye z'Igihugu ndetse no ku isi hose.

Inzu y'ubucuruzi itatswe n'ibyapa biranga ibikoresho, ndetse na serivisi batanga muri iyo nzu, ndetse bikaba bikurura abakiriya baza babagana, bikaba biriho na nimero za telefoni babarizaho. Ndetse hariho muri serivisi batanga harimo nk'imashini, gufotora, ndetse no gukoresha izindi serivisi z'ikoranabuhanga.

Inzu z'ubucuruzi ziriho urujya n'uruza rw'abantu buvuye guhaha, n'abandi bari gucuruza, imbere hariho imifuka irimo ibikoresho by'ubwubatsi byitwa sima ,hejuru hariho ibyapa bigaragaza ibicuruzwa bibarizwa muri izo nzu.

Uruja n'uruza rw'abantu bari kugenda mu mujyi bari kugenda n'amaguru harimo abari kugenda n'imodoka. Ndetse n'abari kwifashisha amamoto kugira ngo bave mu gace kamwe berekeze mukandi, aho bari kugenda hagati y'inzu zitandukanye z'amagorofa maremare, harimo ahageretse gatatu andi agereritse gatanu.

Imiryango ibiri aho umwe uri ibumoso undi uri iburyo. Ibumoso bacuruza ibijyanye n'ibitambaro, ibitenge, imyambaro ndetse n'ibindi bitandukanye. Harimo abakiriya bari kubaza ibiciro kugira ngo bagure. Umuryango w'iburyo naho turahasanga bacuruza ibintu bijyanye n'imisego, ndetse n'imyenda yo kwiyorosa, cyangwa se ibiryamirwa.

Inzu y'ubucuruzi imbere yaho hariho icyapa kigaragaza ko ari inzu itanga serivisi z'ubuvuzi cyangwa se izo kurwanya ku buzima, binyujijwe mu gutanga imiti ndetse no kwita ku barwayi harimo gusuzuma ndetse no kuvurwa.

Inzu y'ubucuruzi isizwe amarangi y'umweru ndetse hariho n'amagambo yanditse hejuru y'umuryango, agaragaza serivisi ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye harimo: nk'inyama, ndetse n'ibikomoka ku mafi. Kugira ngo buri mukiriya wese agure ibimunogeye.

Urujya n'uruza rw'abagore n'abagabo baremye isoko rusange. Ririmo ibicuruzwa bitandukanye hibandwa ku bikoresho byo mu rugo birimo: amabase, indobo, n'amasafuriya, n'ibindi n'ibindi. Ndetse usanga biri mu mabara atandukanye harimo: nk'imihondo, ubururu, imituku, n'ibindi bitandukanye.

Hano ndi kuhabona ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo za Radiyo, za Televiziyo, za Televiziyo zimanikwa ku bikuta, amapasi, za etageri bigaraga ko biri mu iduka ricuruza ibintu by'imirimbo ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Inyubako yubakanywe ubuhanga, yo mu mabara y'umuhondo, ndetse ifite ibirahuri by'indorerwamo, aho ishakaje ibyatsi, ku buryo buri wese yagira amatsiko yo kujya kuharuhukira ndetse akahasangirira n'inshuti ze n'imiryango.

Ahantu heza hari ubusitani, harimo inzira ibunyuze hagati, aho ibumoso hari indabyo nziza, ndetse n'iburyo hari indabyo nziza n'imitako, bigaragara ko uhanyura aba akeneye kuruhuka, ndetse ari gufata akayaga.

Amarembo cyangwa se umuryango w'inzu icumbikira abantu ndetse bakahishimira, bigaragare ko ari amahoteri cyangwa se aho batanga amacumbi, bitewe n'uko umukiriya abyifuza ndetse n'abo bamuherekeje.

Amasakoshi, ibikapu, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gutwara cyangwa se kubika utuntu dutandukanye ku gitsina gore, biri gucururizwa mu isoko, harimo abagore babiri bategereje kugira ngo bavugane ibiciro mbere yo guhaha.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye higanjemo ibiryamirwa ndetse n'ibyiyoroswa, harimo nk'amashuka ndetse n'ibiringiti, byo kugira ngo bajye bifubika mu gihe haje ubushyuhe.

Inzu cyangwa se ubucuruzi bw'ibikoresho bitandukanye cyane cyane iby'ubwiza, birimo nk'amavuta, imibavu, amasabune ndetse n'ibindi bitandukanye, aho usanga abakiriya baje guhaha, ndetse bari kubaza umucuruzi ibiciro kugira ngo babone ubuhaha.

Iguriro ry'imyambaro y'abagore n'abagabo harimo imyenda, amapantalo, imipira, ibitenge by'amoko yose, aho biba byamanitswe ku biti ahitegeye umukiriya, ku buryo uruhande rwose aturukamo ahita abibona, bikamukurura kugira ngo agure.

Ahacururizwa cyangwa se ahagurirwa ibikoresho by'ubwubatsi, hibandwa ku bifata amazi ku mazu byitwa ibigega. Biri impande y'isoko ryitwa Goyiko riri mu mujyi wa Musanze. Rigizwe n'ibirahuri ndetse risizwe amarangi y'umuhondo.

Ibikoresho byo mu rugo byiganjemo ibiryamirwa, ndetse n’iby’isuku. Harimo ibitambaro bihanaguza bavuye mu bwogero, ibyiyoroso byo kwiyorosa, harimo nk’amashuka ndetse n’ibindi bitandukanye birinda imbeho mu gihe umuntu aryamye.

Urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha mu isoko, ririmo ingeri zitandukanye z'ibicuruzwa, harimo nk'imboga, itumanaho ndetse n'ibikoresho byo mu rugo harimo nk'imikubuzo, harimo n'umugabo wicaye ari gutunganya imikubuzo cyangwa se imyeyo izifashishwa mu gukora isuku yo mu rugo.

Iduka ririmo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo ibyo mu rugo harimo nk'amabase, indobo, zikaba ziri mu mabara atandukanye nk'amabara y'icyatsi, umuhondo, umutuku, ubururu n'andi atandukanye.

Butike iciriritse kandi itarimo ibintu byinshi, aho usanga harimo utuntu dukeduke, nk'amatoroshi, amavuta yo kwisiga, amakorogate, imikasi, ndetse n'uburoso, bicuruzwa ku mafaranga make ya rubanda rugufi.

Ubucuruzi mu iguriro cyangwa se isoko ry'abagore, iburyo ndetse n'ibumoso inkweto z'abagabo zifunze ziri mu mabara atandukanye, harimo nk'umuhondo, umutuku ubururu, n'andi atandukanye.

Isoko rusange ririmo umwijima, ryahuruje abantu batandukanye baje guhaha ndetse baje kugurisha, kugira ngo ngo babagurire imyaka, babahe amafaranga. Harimo nk’intoryi, izindi mboga zitandukanye ziri mu mifuka.

Uburyo bwiza kandi bworoheje budahenda bwo korora, inkoko cyangwa se inkwavu; amatungo magufi yose hifashishijwe inzu cyangwa se ibibuti biboshwe mu migano ndetse n' ibiti bigiye bitandukanye.

Isoko ririmo abantu bagiye batandukanye, aho bacuruza imyambaro, amabase ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nzu, ku buryo abaje babigana basanga bihari.

Imbuto zikundwa n'abatari bake aho usanga zifite akamaro gakomeye cyane mu kurinda indwara, ndetse no kuzikiza ku bantu bamaze zandura, cyane cyane hibandwa ku mutobe wazo. Muri izo mbuto rero hakaba habamo inanasi, aho usanga umubare w'abatari bake bari kuzikunda cyane.

Isoko ry'ibiribwa bigiye bitandukanye biri mu bikoresho by'amoko yose, harimo nk'amabase, ibikarito, indobo, ndetse n'ibindi. Muri ibyo byo kurya rero hibandwa ku bikomoka ku buhinzi, harimo nk'imboga n'imbuto, inyanya, sereri ,kokombure, pavuro, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umugabo wicaye ku ntebe yambaye ipantaro ijya gusa n' ikijuju ndetse n'ishati y'ikigina, yicaye mu nzu y'ubucuruzi cyangwa se butike irimo ibikoresho birimo ibicuruzwa bitandukanye, bikenerwa cyane cyane n'abakeneye kwita ku bwiza bwabo harimo nk'amavuta, imibavu n'ibindi bitandukanye.

Ahakusanyirizwa ibyuma bishaje birimo nk'amasafuriya , amapine yashaje, ibyuma bikomoka ku magare ndetse n'ibindi bitandukanye , kugira ngo bikusanwe bijye kunyuzwa mu nganda. Hakorwemo ibindi bishyashya.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, aho baje guhaha ibiribwa bitandukanye, birimo inyanya, bakaba babitwara mu tubase, cyangwa se mu bindi bikoresho baba bitwaje, ndetse bakaba bari kuganira, bari kumva ibiciro uko bihagaze.

Abantu baremye isoko ririmo ibintu bitandukanye, birimo ibiribwa bikomoka ku musaruro w'ubuhinzi, hibandwa mu mboga n'imbuto, harimo nk'imineke , wotameloni cyangwa se imyungu, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baremye isoko, aho usanga harimo abaguzi ndetse n'abagurisha, cyangwa se abacuruzi, aho usanga bazanye ibicuruzwa byabo, mu bikoresho bitandukanye harimo: indobo, utubase, ndetse n'ibindi bitandukanye. Muri ibyo bicuruzwa ugasanga harimo imboga ndetse n'ibirayi.